Umugabo w'umuhinzi. Akaba arimo aratera umuti mu bihingwa. Aho yahinze inyanya akaba arimo arazitera umuti kugira ngo zidapfa.

Umugabo wambaye umupira w'umutuku ipantaro y'ubururu bwerurutse, akaba arimo gutera imiti imyaka, umurima ukaba usa nk'uri mu gishanga, aho uzengurutswe n'ibiti.

Abagabo b'abahinzi barimo baratera umuti mu myaka, imyaka bahinze akaba ari umuceri, bakaba barimo barawutera bifashishije imashini baheka bagakuriza umuti mu myaka.

Umugabo w'umuhinzi akaba arimo aratera umuti mu myaka yahinze ariyo ibigori, akaba yambaye uturindantoki tw'umweru ndetse n'umupira w'ubururu.

Umugabo w'umuhinzi. Uyu mugabo akaba arimo aratera umuti imyaka. Akaba yambaye ipompo mu mugongo, aho yambaye ipantaro n'ishati. Akaba ari gutera umuti mu myaka ye.

Umugabo w'umworozi. Akaba yaroroye amafi mu cyuzi. Akaba arimo kuyagaburira, iki cyuzi kikaba kizengurutswe n'ibyatsi, naho mu cyuzi mo imbere hakaba harimo n'inshundura bifashisha barimo kuroba.

Abagabo baboroze, aho barimo bararoba amafi mu mugezi, aho uyu mugezi urimo amazi make n'isayo ryinshi, umugezi ukaba ukikijwe n'urufunzo rw'ibyatsi.

Imisozi iteyeho icyayi. Akaba giteye ku mataraasi y'indinganire. Aho icyayi gifasha igihugu kwinjiza amafaranga menshi aturutse hanze kuko kigemurwa ku isoko mpuzamahanga.

Abahinzi bahinze ikawa, aho ikawa imwe yahishije indi ikaba ikiri mbisi. Iki gihingwa kikaba Igihugu kigisohora hanze kugira ngo kibone amafaranga.

Abaturage b'abahinzi bakaba barimo barasoroma ikawa ariko ruhisho. Ikawa akaba ari ibihingwa bifasha igihugu kwinjiza amafaranga aturutse hanze.

Umuturage w'umuhinzi, aho buri muturage arimo gusarura ikawa yahishije. Akaba ari ikawa yahinze agasigaho ibitumbwe bitarera.

Umugabo w'umuhinzi akaba yarahinze icyayi. Icyayi akaba ari igihingwa gituma Igihugu cyinjiza amafaranga menshi. Aho uyu mugabo arimo aragitunganya ngo arebe ko cyatanga umusaruro ukwiye.

Imiti y'amatungo aho iyi miti ikoreshwa abavuzi b'amatungo bayitera inkoko, kugira ngo zikure kandi zikure neza zitagize ibibazo by'ubuzima.

Imiti y'amatungo aho iyi miti bayihereza amatungo arwaye kugira ngo abashe gukira uburwayi. Hakaba harimo imiti y'inka ndetse n'imiti y'inkoko n'izindi nyamaswa.

Imiti y'amatungo cyangwa inyamaswa zororerwa mu rugo, akaba ari imiti baha amatungo akayinywa cyangwa bakayatera bakoresheje urushinge, akaba ari mu bicupa bisa umuhondo ku mupfundikizo ndetse n'umweru.

Abahinzi barimo barasarura bakaba ari gusarura bifashishije nanjoro, bakaba bayikoresha bakata imisogwe y'ibyo bahinze.

Umurima urimo ikigori cyeze cyumye. Ukaba murima urimo n'ibyatsi bizamuka ndetse ukaba iki kigori gikikijwe n'ibyatsi byinshi.

Ubutaka bukomatanye bwahinzweho igihingwa kimwe aricyo cy'urutoki kikaba gihinze ahantu hanini hakaba uru rutoki rugeze igihe cyo kwana.

Umurima w'ihuriro ry'abaturage. uyu murima ukaba uhinzemo imyaka. Hagati mu murima hakaba waciyemo umuhanda wambukiranya hakaba uyu murima uzengurutswe n'imisozi itandukanye.

Umugore w'umuhinzi akaba yarahinze bya Kinyarwanda aho bahingisha isuka, akaba yarahinze inanasi, inanasi zikaba zigiye kugera ku gihe cyo gusarurwa.

Ubuhinzi buhinga ibihingwa by'umuco biribwa kandi ukanasagurarira amasoko. Ari byo intoryi, puwavuro, inyanya ndetse n'amashu. Bakaba babigemura ku isoko nyuma yuko bamaze gusigaza ibyo uri burye.

Umugabo w'umuhinzi. Akaba yarahinze imbuto zitandukanye. Aho harimo karoti, inyanya, ibitunguru ndetse n'amashu.

Abagore b'abahinzi, aba bagore bakaba barimo barasarura imyaka aho bari gusoroma imiteja, abagore bakaba bambaye ibitenge, uyu murima wabo ukaba ukikijwe n'ibiti.

Uburyo buhira imyaka bifashishije imashini yabugenewe, ikaba izana amazi iyacishije mu matiyo akagera mu myaka, bakaba barahinze ibigori.

Uburyo bwo kuhira imyaka, bifashishije ingufu z'imirasire y'izuba. Aho zirema imbaraga, zigashyira mu mashini, isunika amazi, ikayakura mu gishanga, iyageza mu myaka, binyuze mu mupira.

Imisozi ndetse n'ibibaya aho imisozi iteyeho amashyamba naho ibibaya bikaba bihinzemo insina n'indi myaka hejuru ku musozi hakaba hatuye abaturage.

Imisozi miremire, hasi akaba ari ibibaya birimo amazi, bikaba bizengurutswe n'ibyatsi ndetse n'ibiti, ku nkengero hakaba hari umuhanda uzamuka ku umusozi.

Imisozi hakurya ndetse n'ikirunga hejuru, hasi hakaba hari mu kibaya kuko harimo n'amazi, imisozi ikaba iriho insina ndetse n'ibiti, naho ikirunga hejuru kikaba kiriho igihu kibuditse.

Imisozi ihanamye cyane. Akaba iyi misozi iteyeho imyaka y'abaturage. Hakaba hariho, n'ibiti biteye ku kandi gasozi.

Imisozi nk'itatu cyangwa ine irebana aho iyi misozi iriho amashyamba ndetse n'ibyatsi, indi misozi ikaba ihinzeho ibihingwa abaturage barya.

Umusozi hejuru, aho uyu musozi uteyeho amashyamba ndetse n'ibyatsi, hasi hakaba hari mu gishanga aho bahateye imyaka mu gishanga.

Ubworozi bw'amatungo bugezwe aho wororera inka mu biraro. Hakaba ikiraro k'inka cyubakishijwe ibyuma bisize amarangi y'icyatsi.

Ubworozi bw'amatungo bugezweho, aho wororera inkoko mu rugo, ukaziha icyo kurya ndetse n'icyo kunywa kugira ngo zitange umusaruro neza.

Ubworozi bw'amatungo magufi, ubworozi bukaba ari ubworozi bw'ihene, izi hene bakaba bazororera ku musozi aho ziba zirisha mu mashyamba ndetse zikarara mu kazu bazubakiye mu ishyamba.

Ubworozi bw'amatungo bugezweho. Aho bororera amatungo ahantu hamwe, aha bakaba baroriye inkoko za kijyambere, aho izi nkoko ziba zigaburirwa mu nzu, zigahabwa amazi yo kunywa, nazo zigatanga umusaruro uhagije wo gutera amagi.

Ubworozi bwa kijyambere, aho borora amatungo bakayororera mu rugo kandi ahantu heza, aho boroye ingurube, izi ngurube zikaba zubakishirijwe n'ibikuta by'isima n'umucanga, zikaba zifite n'isaso y'aho zirara.

Ubworozi bw'amatungo bugezweho, aho borora amatungo uyororoye mu rugo, aha bakaba baroroye inkoko bazororeye mu nzu, aho baziha ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa mu nzu kugira ngo zitange umusaruro.

Inka zikaba ziri mu rwuri. Zikaba ziri kumwe n'abashumba bazo, aho umwe yambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umweru, undi akaba yambaye ingofero itukura n'ipantaro y'umukara. Hakaba hari n'undi uri kuyikamira mu cyansi.

Ubworozi bw'amatungo bugezweho, aho baborora amatungo bakayororera ahantu hamwe, bakayaha ibyorya ndetse n'icyo kunywa kugira ngo akure neza atange umusaruro, aha bakaba baroroye inkoko.

Ikiraro bororeramo amatungo, iki kiraro akaba ari icya kijyambere, kikaba cyubakishijwe n'imbaho ndetse kikaba gisakajwe amabati, kikaba harimo na za senyenge zitandukanya inyamaswa.

Ubworozi bwa kijyambere aho borora inkwavu. Bakagenda bagerekeranya utwumba tw'utwuma zizajya zibamo. Bikaba biri kwigwa n'abanyeshuri.

Inka zikaba ziri mu rwuri, aho zigiye gukamwa n'abasore. Bakaba bagiye kuzikamira mu cyansi cy'icyuma. Abasore bagiye kuzikama bakaba bambaye ingofero y'umutuku, ipantaro y'umukara. Naho undi akaba yambaye isarubeti y'ubururu.

Icyuma cyahariwe guhunika imyaka. Hakaba harimo imyaka ihunitse mu mifuka. Hakaba harimo n'imashini zishinzwe gutunganya imyaka kugira ngo itazangirika.

Umuvuzi w'amatungo, akaba arimo aravura inka y'inyambo. Iyi nka ikaba iri mu kiraro aho cyubakishijwe ibyuma ndetse n'isima n'umucanga.

Inyamaswa yo mu ishyamba aho iyi nyamaswa bayita ingwe, ikaba iri hejuru mu giti, ikaba iri mu ishyamba aho yuriye ibiti ikajya hejuru.

Aho inyamaswa zibera ku gasozi ndetse abantu bakaza kuzihasura, inyamaswa akaba ari ingwe, ikaba iri aho yibera mu ishyamba ndetse no mu biti, hakaba hasi hari ibyatsi.